Hirya no hino mu biturage bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda no muri Afurika, umunsi ku munsi hagenda hegerezwa amazi ku baturage kugirango bayakoreshe ibi bigabanye indwara zikwirakwizwa n'umwanda harimo nka za marariya impiswi n'izindi.

Abaturage bagiye begerezwa amazi meza yo kunnywa. Usanga batonze umurongo bagiye ku mavomero bateze amajerekani yabo bakavoma amazi meza bagatahana mu rugo imibereho yabo myiza ikiyongera ndetse indwara zirimo nk'iyimpiswi zikagabanuka.

Abana batoya ni bamwe mu basuzumwa kandi bakitabwaho n'abaganga, harimo nko kubahereza imiti ibavura indwara zitandukanye nk'imbasa cyangwa iseru na rubeyoru mu ndimi z'amahanga.

Abaganga bicaye mu biro bafite amakayi n'amakaramu barimo barandika, ubona ko baganira ku makuru y'abarwayi babo ndetse n'imiti babandikira, bari gufashanya kubera ko buriya abashyize hamwe Imana irabasanga.

Abagore ni bamwe mu bantu batuma isuku y'urugo izamuka cyane, kandi no mu mago tukirinda indwara ziterwa n'umwanda, kubera ko bajya kumesa imyenda ku mugezi, kandi bakoza n'abana, bityo isuku y'urugo igatera imbere.

Gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, ni bimwe mu bidufasha kugira ubuzima bwiza kubera ko byica imyanda iba yagiye ku ntoki zacu nk'igihe tuvuye ku bwiherero cyangwa twakoze mu myanda itandukanye. Abana batoya bagomba gukaraba intoki kubera ko bakunda gukora mu myanda.

Abakuru b'ibitaro n'ibigo nderabuzima, abaganga n'abaforomokazi, barafatanye umunsi ku wundi kugira ngo babashe kuvura abarwayi no kubaha ubufasha bukomeye ,bityo bagakira vuba kandi bakishimira inkunga bahabwa n'ibyo bitaro cyangwa ibigo nderabuzima.

Buri rugo rwose ndetse n'ibigo by'amashuri, byagakwiriye kugira kandagira ukarabe kuko ifasha abantu mu kwimakaza isuku, umuntu agakaraba igihe avuye ku bwiherero, igihe yakoze mu myanda cyangwa se amaze gufata amafunguro.

Buri munsi uko bwije n'uko bukeye hirya no hino hagenda hongerwa amavomero, abaturage bajya gushakaho amazi, ibi biradufasha cyane kuko iyo abaturage babonye amazi meza, bagatekesha amazi meza, bakoga amazi meza, bakamesesha amazi meza, bituma turwanya indwara ziterwa n'umwanda harimo nk'impiswi.

Hari inama yahuje abayobozi batandukanye harimo abaminisitiri b'ubuzima ndetse n'abanyamahanga, bagamije kwigira hamwe ikintu icyo ari cyo cyose cyateza imbere ubuzima bw'umuturage, harimo nko kugira isuku no kwirinda indwara z'ibyorezo.

Ubukangurambaga bushobora gukoreshwa hatangwa udupapuro mu baturage twanditseho amakuru y'ibanze bagomba gusoma kugira ngo bayamenye ubundi ibyanditseho barushe kubishyira mu bikorwa kandi nibiba ari ingaruka babashe kuzirinda kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Inama hagati ya minisitiri ushinzwe ubuvuzi mu Rwanda ndetse n'abanyamahanga n'abaminisitiri batandukanye, hagamijwe kurandura icyorezo cya virusi ya maribage giherutse kwibasira abaturage mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Abayobozi bakuru b'ibihugu bitandukanye ndetse n'umuryango Mpuzamahanga ushinzwe kurengera ubuzima ni bamwe mu bita ku bana batoya ndetse n'abantu bakuru kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ibi biterwa inkunga n'abashoramari ndetse na za leta z'ibihugu kugira ngo wa muturage wo hasi abashe kubaho neza.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye, abiganjemo igitsina gore n'umubare w'abagabo mukeya, bitabiriye igikorwa cyo kwa muganga cyo gufata ubujyanama ku bijyanye no kugira ubuzima bwiza ,bukagera kuri buri muturage wese binyuze mu gufatanya umuturage ku muturage tugirana inama.

Ababyeyi bashishikarizwa kujya gukingiza abana no kubapimisha ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze; birimo kubarinda indwara, no kubatera inkingo, zibarinda ibyorezo bikunze kwibasira abakiri batoya bigahitana n'ubuzima bwabo.

Abana batoya nabo bari mu bitabwaho cyane baterwa inkingo zitandukanye zibarinda indwara zibibasira, kandi bahabwa ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri, twavuga nk'igikoma gihabwa ababyeyi kugira ngo bajye bonsa abana bazakure neza.

Yuweni ni ikigo mpuzamahanga ku rwego rw'isi, gikora ibikorwa bitandukanye, birimo no gutanga ibiryo ku bihugu byashegeshwe n'intambara, cyangwa ibihugu bifite ubukene, cyangwa byugarijwe n'amapfa, kugira ngo abana bate muri ibyo bihugu n'abagore n'abagabo babashe kugira ubuzima bwiza.

Indwara ya virusi itera SIDA iracyahari mu baturage ntaho yagiye, hari igihe urubyiruko rwibeshya ko SIDA yarandutse rukishora mu mibonano mpuzabitsina, nyamara abaganga bo ntibahwema kubashishikariza yuko SIDA igihari bityo bagomba kuyirinda, ibi byagaragajwe n'uko umubare w'abayirwaye ugenda urushaho kwiyongera, tube maso rero kandi twese duhaguruke turwanye SIDA.

Mbere y'uko umuganga afata amaraso umurwayi, arabanza akambara uturindantoki, akambara amarinete n'impuzankano, ubundi akamuzirika agatambaro ku kuboko kugira ngo umutsi wirege, ubundi azane urushinge amuvome amaraso, ajye kuyasuzuma amenye indwara arwaye.

Unicef ni ikigo gishinzwe kwita ku buzima n'imibereho myiza y'abana ku Isi, aho usanga kibafasha ku bikorwa birimo: kubaha ibyo kurya, amazi meza yo kunywa, kandi bakabaha n'imiti n'inkingo zo kwivuza zibarinda indwara zitandukanye.

Ababyeyi bagiye kwa muganga bajyanye abana babo, kubakingiza cyangwa kubateza urushinge, kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi bibarindade indwara nyinshi, harimo nk'indwara z'imbasa, zibasira abana bakiri batoya, cyangwa se indwara za macinya n'izindi.

Amavomero yagiye yubakwa hirya no hino mu gihugu, aho usanga abantu bose bajya kuvoma amazi, ibi ngibi bikagabanya umubare w'abantu bahitanwa n'indwara ziterwa n'umwanda kandi bigatuma abantu bahorana isuku kuko babona amazi yo kumesesha imyenda yabo n'ayo koga.

Umuco wo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, ni ibintu byagakwiriye kuranga buri muntu uwo ari we wese, cyane ku bana batoya kuko baba bakoze mu myanda itandukanye, iyo bavuye ku bwiherero, iyo bavuye gukina ya mikino y'abana bakoze mu ivumbi n'ibindi biba bifite umwanda. Gukaraba intoki ni ubuzima.

Hari imiti yabugenewe ikoreshwa mu kuzimya umuriro w'amashanyarazi. Hirya no hino inkongi zikunze kwibasira amazu, ibigo by'ubucuruzi, ugasanga abantu bahaburiye ubuzima. Iyi miti irakoreshwa, iba ifunitse mu macupa yabugenewe, ubundi iyo inkongi iteye umuntu arayizana akagenda apuriza muri wa muriro ukabasha kuzima, ubuzima bw'abantu bugatabarwa.

Abaturage bakunda kwitabira igikorwa cy'abaganga n'inzego z'ubuzima, kirimo kubapima indwara zitandukanye, bagahabwa imiti ku buntu, bakagirwa n'inama kandi bagahabwa n'ibikoresho byo kwirinda indwara zitandukanye, harimo na za virusi itera SIDA cyangwa Malariya.

Umuhanzi akaba n'umuramyi ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda Israel Mbonyi, ni umwe mu bantu bifatanya na leta y'u Rwanda guteza imbere imibereho myiza kugira ngo abana batoya babeho neza, harimo mu kubagenera imfashamirire no kubagenera inkingo zibarinda indwara.

Ihuriro ry'abaganga, ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, bari kugaragaza uburyo abari cyangwa abategarugori basama, bityo bakabashishikariza gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye kugira ngo badatwara inda zitateganyijwe.

Unicef ni ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abana bakiri batoya, kikaba kinabishyiramo imbaraga cyane binyuze mu kubaha ibikoresho bakoresha, cyane cyane ku bana b'abakobwa aho bahabwa impapuro z'isuku bakoresha mu gihe k'imihango.

Abaturage bibumbiye hamwe bari kumwe n'abayobozi batandukanye, ubona ko bari kujya inama, ku bijyanye n'ukuntu bateza imbere ubuzima bwiza kandi bafite impapuro n'amakaramu, barimo barandika imigabo n'imigambi biyemeje gushyira mu bikorwa bagira inama abandi baturage.

Ikigo Mpuzamahanga ku rwego rw'isi gishinzwe kurengera ubuzima bw'abana n'abakiri batoya, mu magambo y'abanyamahanga ahinnye UNICEF, ni kimwe mu kigenda kigira uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere imibereho myiza, harimo nko kugeza amazi meza ku baturage kugira ngo isi yose ikomeze igire ubuzima bwiza.

Inama y'abayobozi batandukanye bari kurebera ikibazo kibangamira imibereho myiza y'ubuzima bwiza ku baturage batuye Igihugu cy'u Rwanda, aha ngaha hanatangwa ibitekerezo by'ingamba zafatwa kugira ngo buri muturage abashe kubona ubufasha n'ubuvuzi ku kigero kimworoheye.

Abakozi bo kwa muganga, buri munsi barahugurwa kandi bagahabwa ubumenyi, bujyanye no gushishikariza no kumanuka mu byaro bakajya kwegera baturage bo hasi mu nzego z'ibanze, bakabashishikariza ibijyanye no kugira ubuzima bwiza, nko kugira isuku mu rugo no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Inama hagati y'abaturage, abayobozi bakuru, n'abo mu nzego z'ibanze, bari kwigira hamwe ibintu bibangamira imibereho myiza, bafite amakayeyi n'amakaramu bari kwandika, kandi bagamije gushishikariza bagenzi babo kwita ku mibereho myiza.

Itsinda ry'abaturage bo mu nzego z'ibanze biyemeje kurwanira hamwe kandi bakarwanya ikintu icyo ari cyo cyose cyabangamira ubuzima bwiza bw'abaturage mu muryango aho bakomoka. Abangaba biganjemo igitsina gabo, igitsina gore ubona ko bafite ubushake mu gukora iyo bwabaga kugira ngo barusheho kwimakaza.

Uko ibikorwa remezo birushaho kwiyongera, harimo nk'amazi, abana batoya ni bamwe mu bagenda nabo barushaho kugira isuku kuko nta mwana ukirwara amaga cyangwa ngo arware inda zituruka ku mwanda, bitewe n'uko imyenda yabo bayimesa kandi no mu rugo bakarya ibiryo bifite isuku.

Amazi meza ni ingenzi kuyakoresha, adufasha mu bintu byinshi, harimo nko guteka, gukora isuku yo ku mubiri, kumesa imyenda ,isuku yo mu nzu nko gukoropa, bityo iyo tuyakoresheje tugire ubuzima bwiza .Ikirenze kuri ibyo ni yo abantu banywa, amatungo, inyamaswa z'igasoza, amazi meza rero ni ubuzima.

Umuganga uri gupima umurwayi yabanje kumuzirika agatambaro kugira ngo abone uko amuvoma amaraso mu mutsi, ubundi akajya kuyasuzuma akabasha kumubwira indwara arwaye, akamenya n'ibinini amuha byo kuyivura.

Amavomero rusange yagiye yubakwa hirya no hino, aho usanga abaturage mu miryango itandukanye bagiye guhiga amazi meza yo gukoresha mu ngo ndetse n'ayo kunywa, bitwaje amajerekani yabo, yaba abagore, abagabo n'abana batoya.

Hari icyumba cyabugenewe kwa muganga, abarwayi bategererezamo muganga mbere yuko bahura na we ngo abavure; ahubwo bakakirwa n'umuntu wabugenewe akabaka ibya ngombwa, akabuzuriza n'amafishi, ubundi bakabona kujya guhura n'umuganga.

Abaturage barimo gukora igikorwa cy'umuganda cyo kubaka iriba rusange, harimo abafundi n'abana bari gutunda amazi, ndetse n'abadamu n'abagabo bari kuzana amarangi, kugira basukure iriba bazajya bavomaho, igiturage cyabo kibashe kugira ubuzima bwiza, uko gikoresha amazi meza cyubakiwe na Leta y'u Rwanda.

Ikigo gishinzwe kurengera ubuzima bwiza ku Isi, gishyira imbaraga kandi kikanashishikariza buri muturage wese kubigiramo uruhare kugira ngo tube mu Isi itekanye kandi tuyisige ari nziza kurusha uko twayisanze, hibandwa mu kwirinda ibiyobyabwenge ndetse no kugira isuku.

Abayobozi bajya basura abana batoya, biga ku bigo by'amashuri. Kkugira ngo barebe ubuzima babayeho, ubundi babafashe mu mikurire yabo. Harimo kubagenera amazi meza, kubagenera ibyo kurya birimo nk'igikoma, abana bagakura neza.

Ikiganiro ku rwego rw'igihugu hagamijwe gushishikariza abashoramari ndetse n'abikorera, mu kuzana amafaranga yabo bakayashora mu guteza imbere ubuzima bwiza mu baturage bityo tukaba mu gihugu gifite abaturage basobanutse, kandi bikagabanya umubare w'abaturage bahitanwa n'indwara runaka.

Umwana wese agomba kwitabwaho akagira ubuzima bwiza, guhera ku myaka mitoya kuzamura kugeza abaye mukuru, ibi ngibi bigirwamo uruhare rukomeye cyane n'ikigo UNICEF, ikigo gishinzwe kurengera ubuzima bw'abana ku rwego rw'Isi.

Umuryango mpuzamahanga, ushinzwe guhashya no gukumira inzara, ugenda utanga ibiryo hirya no hino mu bihugu byashegeshwe n'intambara cyangwa n'ibiza, aho amamodoka manini y'amakamyo, agenda atwara ibiribwa, abishyikiriza abaturage, bo mu nzego zo hasi.

Imibereho y'abana batoya igenda yitabwaho kandi igashyigikirwa n'abantu bakomeye, twavuga nk'abahanzi barimo uwitwa Israel MBONYE, ni umwe mu bantu batera inkunga mu kwita ku buzima bw'abana bakiri batoya. Abana rero ni umusingi w'iterambere ry'igihugu.

Abayobozi b'ibihugu bitandukanye cyane cyane ab'igitsina gore, ntibasiba kugaragaza uruhare rwabo mu guteza imbere ubuvuzi kuri bose kugira ngo abaturage bose bagire ubuzima bwiza, bo mu bihugu bitandukanye byiganjemo iby'Afurika y'Iburasirazuba.

Umwana ni ibyishimo by'umuryango, kubera ko iyo yavutse, abantu baraterana, ababyeyi n'abagabo, bakaza kwishimira hamwe, kubera ko baba babonye undi muntu mushyashya, ugiye kuza akunganira umuryango gutera imbere.

Abayobozi bashinzwe ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'Abaminisitiri bajya bakora inama, bagamije kwigira hamwe kureba ibibazo bibangamira imibereho y'ubuzima no gufata ingamba no gushishikariza abaturage ukuntu babirwanya tukabaho mu buzima bwiza.

Inama y'abaturage bari kwa muganga, bari kurebera hamwe igitera cyangwa se icyihishe inyuma yo kwandura no gukwirakwira kw'indwara runaka, bashaka gufata imyanzuro n'ingamba z'ukuntu bayihashya, harimo nko kujya gushishikariza abaturage bo hasi ukuntu bayirinda.

Hari igishushanyo cyerekana umubare w'abantu bagiye biyahura mu gihugu cy'u Rwanda, aho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri bari ku kigero cya cumi na kane, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu bagera ku kigero cy'icumi, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi bigenda bigabanuka gutyo gutyo kugeza mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani aho abaturage bari bari ku kigero gitoya.

Buri muntu wese aho ari hose agomba kugira uruhare mu guteza imbere ubuvuzi bwo mu mutwe, binyuze mu gushishikariza bagenzi be, mu kubitaho, mu kubaganiriza, buri wese akishyira akizana, twese tukagira ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Itsinda ry'abayobozi bagize umuryango ushinzwe kurengera no gusigasira ndetse no kwita ku butabera hagati y'ibitsina byombi, yaba bagabo ndetse n'abagore mu muryango, aho batuye no mu gihugu batuyemo.

Abantu bakwiye kwita ku buzima bwo mu mutwe ndetse n'imitekerereze yabo, kuko bibafasha gukura neza kandi bakabaho bagasaza neza, iyo ibyo bitabaye bivamo kuvangirwa mbese umuntu akagenda agahinduka umusazi agasigara akora ibikorwa biterekeranye.

Umuryango ubayeho mu bukene kandi bihebye, ni bamwe mu bantu bagira imitekerereze itari myiza mu bwonko bwabo kubera ko baba bibaza aho bakura ibyo kurya, ugasanga bibaviriyemo gutekereza ingeso mbi harimo no kujya kwiba.

Ubwonko ni igice cy'ingenzi mu mubiri w'umuntu kuko ni bwo butegeka ibindi bice by'umubiri gukora igikorwa runaka. Urugero niba umubu uriye umuntu ku mubiri ubwonko buhita bumutegeka kuwukubita urushyi akawica. Kwita ku buzima bwo mu mutwe ni ingenzi cyane kugira ngo dusigasire ubwonko bwacu butekereze neza.

Umuntu utaganirijwe neza cyangwa ngo yitabweho mu buzima, ashobora guhura n'ikibazo cy'ihungabana cyangwa kugira imitekerereze itariyo, akagenda agahinduka umusazi. Twagakwiye kwita kuri aba bantu, tubaganiriza kandi tugatanga amakuru, tukabavuza ku gihe.

Habaho umunsi wagenewe wo kwizihiza no kwimakaza ubuzima bwo mu mutwe bwiza, kuri buri muntu uwo ari we wese mu gihugu cy'u Rwanda, ibi ngibi bigirwamo uruhare n'abayobozi bakuru, bakamanuka bakajya mu baturage mu nzego z'ibanze, kubigisha ko bagira ubuzima bwiza bwo mu mutwe n'imitekerereze myiza.

Umuntu ufite ikibazo kijyanye n'imitekerereze, usanga akora ibikorwa biterekeranye mu muryango mugari, akunda kwambara ubusa, ntajya yoga, agahorana impumuro mbi, ibi akenshi biterwa no gukoresha ibiyobyabwenge, cyangwa kwishora mu ngeso mbi.

Abakiri batoya ni bamwe mu bagirwa inama kandi bakwiye no kwitabwaho kugira ngo bazasaze bafite imitekerereze myiza kandi bafite ubwonko bukora neza, ibi harimo nko kubigisha binyuze mu mashuri no kubagira inama igihe bari mu rugo.

Umusazi ni umuntu wagize ikibazo cy'imitekerereze yo mu mutwe, hahandi akora ibintu biterekeranye, kugenda atoragura amashashi mu muhanda, kugenda yisetsa, akambara inshwabari cyangwa akambara ubusa, agomba kujyanwa kwa muganga rero kugira ngo yitabweho n'abaganga.

Umuntu ufite ikibazo k'imitekerereze, abasa nabi kubera ko aba atakibasha kwiyitaho, ntabwo ayjya yoga, ntajya amesa imyenda ye ngo akora isuku, agahora anuka kandi afite umwanda, bitewe n'uko aba atagitekereza neza.

Umujyanama w'ubuzima ari kubaza umurwayi w'ukuntu yiyumva, umurwayi na we akamubwira ibimenyetso by'indwara arwaye kugira ngo hitabwe ku buzima bwo mu mutwe nasanga afite ibimenyetso bishobora kumuviramo no gusara abashe gutanga ibizamini kwa muganga bamuhe imiti yo kumuvura.

Umugore wa Perezida w'Igihugu cy'u Rwanda Jeannette Kagame ni umwe mu bashyigikira cyane bakanateza imbere ubuzima bwiza mu baturage b'igihugu cy'u Rwanda, dore yuko akora uko ashoboye kose haba mu buryo bw'amafaranga cyangwa se ubujyanama, aho yanashinze ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abategarugori n'abari Imbuto Foundation, uyu nguyu rero yateje imbere cyane imibereho myiza n'ubuzima bwo mu mutwe w'Abanyarwanda.

Hari abantu bahuye n'ibibazo by'imitekerereze yo mu mutwe, aho usanga babayeho bigunze, kandi bakora ibikorwa bidakwiriye kuranga umuntu muzima, harimo nko kwambara ubusa, cyangwa kurya ibiryo byagaze, cyangwa gutoragura amashashi mu muhanda bagenda bivugisha.

Umuganga uvura amenyo, aba yarabyigiye kandi abisobanukiwe bityo agategeka umurwayi kuryama ku ntebe akambara marinete yabugenewe kandi agafata n'ibyuma byabugenewe, akabikoresha amuvura mu kanwa.

Gukora isuku yo mu kanwa ni igikorwa cy'ingenzi cyane kuko bidufasha kugira impumuro nziza mu kanwa kandi amenyo yacu agahora akeye atavunguka, ikindi biturinda indwara zirimo nk'ifumbi y'amenyo cyangwa kugira impumuro mbi mu kanwa.

Amenyo akwiriye kwitabwaho cyane kubera ko iyo tutayakoreye isuku cyangwa ngo tuyoze, agenda avunguka kandi ishinya yacu ikangirika, tukagira impumuro mbi mu kanwa, bikatubangamira, ugasanga turwara indwara zirimo n'ifumbi yo mu kanwa.

Umuco wo koza mu kanwa no kubungabunga isuku y'amenyo utangirira ku ishuri. Abarimu babyigisha abana ndetse bakabategeka kuzana uburoso n'umuti w'amenyo, bakabigisha n'uko babikoresha cyangwa bakabwira ababyeyi babo bakabibagurira, bityo abana bagakura babikoresha bakagira ubuzima bwiza.

Umuntu ashobora gukora isuku yo mu kanwa, akoresheje uburyo butandukanye. Hari agakoresho gafunika amenyo, umuntu ashobora gukoresha akagacengeza mu kanwa ke, kakagenda gakuramo imyanda hagati y'amenyo.

Muganga w'amenyo agira inama abantu bayarwaye, kandi aniteguye kubafasha igihe icyo aricyo cyose bamugannye kuko umuntu urwaye iryinyo ntajye kumureba, usanga bimuviriyemo ingaruka zikomeye, harimo nko gukuka amenyo yose cyangwa kubyimba mu kanwa ubundi bikaba byamuviramo na kanseri.

Gukora isuku yo mu kanwa, ntabwo ari ugukoresha umuti wabugenewe n'uburoso gusa. Hari uburyo bwo gukoresha akadodo, ukagenda ugacengeza hagati y'amenyo ugakuramo ya myanda iba yihishe, ibi bikagufasha kugira impumuro nziza mu kanwa.

Kuvunguka amenyo no kugira amenyo yakutse ni bimwe mu ngaruka zo kudakora isuku yo mu kanwa, ukoresheje umuti wabugenewe n'uburoso cyangwa ukoresheje uburyo bw'akadodo, ngo ugende ukura imyanda iba yacengeye hagati y'amenyo n'amashinya mu mubiri.

Hari intebe yabugenewe nziza umuntu ashobora kwicaraho cyangwa akayigaramaho igihe agiye kwivuza amenyo ubundi muganga na we akambara imyenda yabugenewe yifashishije n'ibikoresho byabugenewe, akamuvura cyangwa akamukura iryinyo arwaye.

Abana batoya bagomba gukora isuku yo mu kanwa buri munsi, bakoresheje umuti w'amenyo n'uburoso, ibi bakabikora buri munsi kugira ngo bibafashe kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa. Harimo nko kugira amenyo meza, asa neza kandi atavunguka, ikindi bibarinda indwara zirimo nk'ifumbi yo mu kanwa n'izindi ndwara.

Ibanga ryo kumwenyura ugaseka neza nta shiti, ni ugukora isuku yo mu kanwa, ukoresheje umuti wabugenewe n'uburoso, cyangwa ugakoresha ubundi buryo bw'akadodo, cyangwa ugakoresha ikara, cyangwa ugakoresha umunyu na tangawizi.

Mu rwego rwo kwimakaza isuku y'amenyo no mu kanwa, abana ku mashuri bagenda bahabwa uburoso bw'amenyo n'umuti wabugenewe kugira ngo bajye babikoresha buri munsi bakora isuku ku menyo yabo, ibi bikabarinda indwara zirimo nk'ifumbi no kunuka mu kanwa.

Uburyo bwo gukoresha akadodo, dukora isuku yo mu menyo, ni bimwe mu bidufasha cyane kugira amenyo meza atavunguka, atarwara indwara z'imifumbi kubera ko akadodo kabasha gukuramo imyanda hagati y'amenyo, bityo tugahora dufite ubuzima buzira umuze bwo mu kanwa.

Umuntu wita ku isuku yo mu kanwa arangwa no guhora aseka kandi afite amenyo meza y'umweru, ikindi bimurinda indwara zirimo nk'ifumbi, kuvunguka kw'amenyo kugira impumuro mbi mu kanwa no kuba yarwara nka kanseri y'iryinyo cyangwa se izindi ndwara. Tugomba kwita ku menyo dukoresheje umuti wabugenewe n'uburoso.

Abaganga ni abahanga cyane mu gufasha no kugira inama abantu bakuze, babitaho kandi babavura neza kugira ngo babashe gukura bishimye kandi batagize ikibazo kijyanye n'imitekerereze, biturutse ku kwigunga cyangwa se kwiheba.

Abasheshe akanguhe cyangwa se abageze mu myaka y'izabukuru bitabwaho na bo mu buryo butandukanye, harimo no kubafasha gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri wabo urusheho kugororoka kandi no gukora neza, aha twavuga nko gukurura imigozi kwirukanka n'ibindi.

Abageze mu zabukuru, abakecuru n'abasaza bagomba gukora imyitozo ngororamubiri igihe turi kuberekera nk'uburyo basimbuka imigozi, uko bagorora amaboko, abaganga rero ni bamwe mu bantu babyigiye kandi babishoboye, mu kubashishikariza no kubafasha gukora imyitozo ngororamubiri, ubuzima bwabo bukagenda neza.

Gufasha abantu bakuze mu buzima bwa buri munsi, tunabasobanurira kandi tunabigisha uko bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo nka telefoni, ni bimwe mu bibafasha cyane, na bo bakabaho bajyana n'iterambere, bazi gusoma no kwandika, no gukoresha telefoni.

Abantu bakuze na bo bakwiye kwitabwaho, bigishwa imirimo y'amaboko, kandi baganirizwa n'impuguke zibisobanukiwe kugira ngo bakure batigunze, kandi babeho bishimye, ubundi basaze neza, bagere mu zabukuru bafite amahoro, nta kuvangirwa n'imitekerereze.

Umugabo n'umugore bakwiriye gufashanya hagati yabo, baganira, bakina udukino, umwe akereka undi ko amwitayeho kandi amukunda cyane bityo bikabarinda kwigunga, bagasaza neza.

Umuganga urimo gufasha umugabo mukuru, ubona ko ashobora kuba yaragize ikibazo cy'imvune, ari kumwerekera uko agendesha inkoni yahawe kandi agenda amuganiriza, ukabona ko Leta y'u Rwanda yashyizemo imbaraga mu kwita ku bantu basheshe akanguhe.

Abakuze biganjemo abakecuru n'abasaza, ni bamwe mu bahawe agaciro gakomeye cyane n'Umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, na bo ntibahwema kumushyigikira no kwitabira ibikorwa bitandukanye birimo nk'amatora, bamushimira cyane kubera ko yahaye agaciro abagore n'abantu bakuru.

Gufasha abafite ubumuga nk'ubwo kutagenda cyangwa se abagize imvune ni igikorwa cy'ingenzi cyane, kubera ko bituma na bo babasha kugira ubuzima bwiza, bakabaho batihebye kandi bakabona ko tubitayeho. Ibi bikorwa n'abaganga cyangwa inzobere mu kwita ku bantu runaka.

Abantu bakuru bagomba kwitabwaho, tukabaganiriza, tukabafasha gusoma ibitabo, tukabafasha gutegura amafunguro yujuje ibisabwa nk'intungamubiri kuko iyo bitabaye, usanga bigunze kandi bagasaza nabi.

Ni byiza cyane kwita ku bantu bakuze, harimo nko kubibutsa kunywa amazi, gufata imiti yabo neza, kubaganiriza, kubabwira inkuru zishimishije, kubereka icyizere cy'ubuzima, kubafasha kujya ahantu runaka bagatembera bakagororera imitsi, no kubafasha mu bundi buryo.

Abasaza bakuze cyane bageze mu zabukuru bakwiye kwitabwaho tubahiriza ibyo kurya tubaganiriza tubereka icyizere cy'ubuzima tukabafasha muri byose baba barakoze uko bashoboye kose bakaturera natwe tuba tugomba kubibitura kuko baba bageze aho imbaraga zabo zabaye nkeya.

Abantu bakuze batakibasha gutekereza neza bagomba kujyanwa kwa muganga kugira ngo bunganirwe n'abaganga, harimo mu kubafasha kubaha amafunguro, ibyo kurya bitandukanye, kubaganiriza, kubafasha gukora imyitozo ngororamubiri n'ibindi.

Abantu bakuru dushobora kubitaho, tunabigisha gukoresha terefone ngendanwa, cyangwa tubereka amashusho ashimishije, kugira ngo babeho bishimye mu buzima, bityo bibarinde kwigunga, kandi bagire amasaziro meza.

Umuganga ushaka gusuzuma umurwayi amaraso, arabanza akazana igitambaro cyabugenewe akamuhambira ku kuboko, kugira ngo hagaragare umutsi bashaka guteramo urushinge, ubundi bamuvome amaraso, bayasuzume, babashe kureba indwara arwaye.

Abantu bageze mu zabukuru na bo baba bakwiriye kwitanaho hagati yabo, umwe akoza undi cyangwa se undi na we akabikorera mugenzi we, hagati y'umugabo n'umugore cyangwa umukecuru n'umusaza bagafashanya, bagasaza neza.

Abantu bakuru iyo batitaweho bagira imitekerereze itari myiza, bakigunga, ukabona ko babayeho batishimiye ubuzima. Ariko iyo tubegereye, tukabaganiriza, tukabaha ibitabo byo gusoma, babaho neza, bagasaza neza.

Abantu bakuru bitaweho cyane mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko leta yabahaye uburenganzira, ibaha n'ubwenegihugu busanzuye bwo kumva batekanye kandi bakora icyo bashaka mu gihugu cyabo, na bo basigaye bitabira imyitozo ngororamubiri kandi bahawe agaciro gakomeye cyane.

Ni ngombwa kwibutsa umuntu ukuze, kunywa imiti no kumusobanurira amategeko n'amabwiriza, agomba kugenderaho kugira ngo ayinywe kugira ngo abashe kubyizera kandi amenye impamvu gukoresha iyo miti ari byiza bityo azabashe gusaza neza.

Abantu bageze mu zabukuru buriya nabo baba bakeneye gukora imyitozo ngororamubiri. Abaganga babyigiye kandi babifiteho ubumenyi ni bamwe mu babafasha cyane kugirango barusheho nabo kurambura imitsi y'umubiri wabo, ubuzima bwabo bugende neza. Ibi birimo nko kubafasha guterura utwuma dutoya barambura imitsi y'amaboko, kubafasha kugenda gutembera n'ibindi.

Muganga aba afite ubumenyi buhambaye cyane, ku buryo ashobora no kwita ku bantu bakuze cyangwa abantu bagize ikibazo k'imitekerereze, batakibuka ikintu na kimwe, babuze n'amarangamutima yabo ariko muganga nk'umuntu wabyigiye arabafasha ubuzima bukagenda neza, akabaha imiti ku gihe, amazi yo kunywa akayabaha ku gihe, akabaganiriza akabakorera ibikorwa bitandukanye.

Gukora imyitozo ngororamubiri, ni igikorwa cy'ingenzi cyane ku badamu, cyangwa abantu b'igitsina gore, ibi bibafasha kutagira umubyibuho ukabije, kugira mu nda haguka, ndetse n'imyanya yabo myibarukiro ikaguka, ku buryo umugore bimufasha kujya kubyara bitamugoye, batamubaze.

Abantu bakuze na bo bakunda gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo birinde umubyibuho ukabije, kandi birinde kubatwa n'indwara zirimo za rubagimpande n'imitsi y'amaboko cyangwa ku maguru. Ibi babikora baterura ibyuma cyangwa bakora imyitozo yo kwirukanka n'ama...

Abashoramari b'isi yose ibigo bya leta na za minisiteri byagakwiriyeye gushora amafaranga mu buvuzi, kugira ngo tugabanye umubare w'abaturage bahitanwa n'indwara ku isi hirya no hino kandi twimakaza ireme ry'ubuzima bwiza.

Hari indwara zandura ku buryo bworoshye hari n'indwara zandura ku buryo butoroshye, indwara zandura ku buryo butoroshye harimo virusi itera sida, imitezi, mburugu, kubera ko umuntu ashobora kubyandurira mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se gukoresha ibikoresho na mugenzi we urwaye iyo ndwara.

Hari inama yahuje abayobozi b'ibihugu bitandukanye, abanyamahanga n'abanyarwanda, bagamije kwigira hamwe ukuntu buri muturage wese wo mu gihugu, yagira ubuzima bwiza kandi akabigiramo n'uruhare kuba bagenzi be bagira ubuzima bwiza.

Ikigo gishinzwe ubuzima mu rwanda RBC ni kimwe mu gishishikariza abakiri batoya cyane cyane urubyiruko, kurwanya indwara ya virusi itera sida bakora imibonano mpuzabitsina ikingiye, bagakoresha agakingirizo cyangwa bakifata.

Itsinda ry'abikorera, inzego za poritike, abaganga, bashoramari bicaye hamwe bagamije kwiga ukuntu bateza imbere imibereho myiza, bikabaheraho kumanuka kugeza ku muturage wo hasi.

Umugore w'umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda Madamu Jeannette Kagame, ni umwe mu bakunze kandi bakanashyigikira guteza imbere imibereho yo mu mutwe no kurwanya ibintu ibyo ari byo byose byatuma umuntu agira imitekerereze mibi cyangwa ihambaye, harimo nko gukoresha urumogi cyangwa kunywa inzoga zikabije.

Indwara ya kanseri igomba kwirindwa kandi igakumirwa na buri muntu wese kugira ngo nyine abantu babashe kugira ubuzima bwiza dore ko iy, indwara ifite ingaruka nyinshi harimo n'urupfu iragenda ikamunga amagufwa bityo umuntu nyine akabaho nabi.

Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC mu magambo y'impine, ni kimwe mu byita ku buzima kandi kigateza imbere abaturage mu bijyanye no kugira imibereho myiza izira indwara kandi izira kwibasirwa n'ibyorezo bitandukanye.

Kwivuza ndetse no gufata imiti ku gihe mu gihe umuntu arwaye indwara, ni bimwe mu bintu bigarura icyizere ko agiye kongera akabaho neza. Umuntu wese, ashishikarizwa kujya kwa muganga, igihe yumva atameze neza kugira ngo barebe ikibazo yaba afite mu buzima bwe, yongere yitabweho, amere neza.

Inama Mpuzamahanga yabaye mu gihugu cy'u Rwanda, aho abagabo n'abagore, bose bahuye hamwe, bagamije kwiga ndetse no kurebera hamwe ibintu bibangamira ubuzima bwiza bw'abaturage, muri iyi nama harimo n'abahawe ibihembo kubera ko bagize uruhare rukomeye cyane.

Gusigasira no kurengera ubuzima bwiza bikorwa mu buryo butandukanye, uhereye ku rwego rw'igihugu, ukamanuka ukajya ku rwego rw'intara, wava ku rwego rw'intara ukajya ku karere, ku karere wavayo ukajya ku rwego rw'umurenge, ku rwego rw'umurenge wavayo ukamanuka ku rwego rw'umudugudu hasi ku baturage.

Abayobozi b'Igihugu cy'u Rwanda, Abanyamahanga, abashoramari n'inzego zikorera ,mu nama bari kwiga hamwe ukuntu bateza imbere ubuvuzi bukagera kuri bose, kuva ku muturage wo hasi mu cyaro, kugera ku bayobozi bakuru b'igihugu.

Urwego rwo guhashya, gukumira no kurinda indwara zitandukanye. Abaturage, buri munsi hafatwa ingamba zitandukanye harimo nko kubashishikariza kuza gufata inkingo, twavuga nk'urukingo rurinda abantu kuba bagira indwara y'umutima cyangwa umuvuduko ukabije w'amaraso n'izindi.

Abagore n'ababyeyi usanga bajya kwa muganga buri munsi, gupimisha abana babo, kubaha inkingo zitandukanye no kubahereza insimburantungamubiri zibafasha mu mikurire ya buri munsi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye, harimo n'iz'ubuzima, ntibahwema guteza imbere no gushishikariza abantu bose kugira ubuzima bwiza, binyuze mu kubaha inkunga zibafasha, no kubaha ubujyanama bw'ukuntu bakora ibikorwa bibateza imbere kandi bibagirira ubuzima bwiza.

Ku kigo nderabuzima hagaragara umubare munini w'abaturage, baba bagiye kwa muganga gushaka ubujyanama n'ubuvuzi ku kibazo kibugarije, kugira ngo babashe gukomeza ubuzima batekanye, kandi babahe n'imiti ibavura indwara zitandukanye baba bafite.

Inyubako zo kwa muganga ziba zubatse ku buryo bukomeye kandi zubakishije ibikoresho bikomeye, ariko ziba zifite n'ubusitani buteyemo indabo zishobora gutanga umwuka mwiza abantu bahumeka kandi zishobora no kwifashishwa mu gukorwamo indi miti itandukanye ivura abaturage.

Mu nyubako imbere kwa muganga haba hasa neza, harimo imiryango igiye itandukanye, intebe zo kwakiriraho abashyitsi, aho abaganga bicara ukabona ko ari ibintu byiza, harimo n'amatara, harimo umwuka mwiza abantu bahumeka, bityo ukabona ko ubuvuzi bwateye imbere mu gihugu cyacu.

Kuryama mu nzitiramibu, ni bimwe mu buryo bwo kudufasha kwirinda indwara ya Malariya, kubera ko iterwa n'imibu, iyo yaje ikaruma umuntu, iyo umuntu araye mu nzitiramibu rero umubu ntabwo wabona aho unyura, bityo bikamurinda iyi ndwara, dore ko ihitana abantu benshi hano ku Isi no mu Rwanda.

Kwa muganga ukihagera utungurwa no kubona ibyapa binini byerekana nyine ibiranga cyangwa se ubufasha icyo kigo nderabuzima gitanga, ikindi haba hateye ibyatsi byagenewe gutanga umwuka mwiza abantu bahumeka ku buryo buri murwayi wese uri kwa muganga abasha kugerwaho n'umwuka mwiza wo guhumeka.

Kwa muganga tuhasanga utubati tubikwamo imiti, kandi buri muti wose ufite agace kawo uherereyemo, niba ari umuti uvura Malariya uba uri mu gace kawo, n'umuti uvura inzoka ukaba uri mu gace kawo, ibi ngibi kandi bituma imiti itagerwaho n'ubukonje cyangwa amazi, ubundi ikamara igihe kirekire igakoreshwa ivura abantu mu gihe kizaza.

Ibitaro bikuru uba usanga byubatse ku buryo bwisanzuye, hari imbuga nini ihagije, ku buryo hashobora no guparikamo imodoka zirenga mirongo itatu zizanye abarwayi, ikindib haba hafite isuku ihagije, hateye ubusitani, ku buryo n'abarwayi bahivuriza, babona umwuka mwiza wo guhumeka.

Itsinda ry'abaganga cyangwa abaforomokazi, biyemeje kurwanya indwara no gufasha abaturage kugira ubuzima bwiza, babahereza ubujyanama kandi babereka banabigisha uburyo indwara runaka yirindwa.

Ikigo nderabuzima n'ibitaro usanga byubatse ku buryo bwiza, ugasanga inzu zigiye zitandukanye, nk'inzu abagore babyariramo y'ababyeyi ugasanga yitaruye cyane izindi. Ibi ngibi kandi bifasha ba muganga kuko hari abarwayi baba bafite ikibazo kihariye bakavurirwa mu gice cyabo. Kwa muganga kandi tuhasanga ubusitani butanga umwuka mwiza abaturage bahumeka.

Ku kigo nderabuzima cyangwa kwa muganga mu bitaro mo imbere, tuhasanga ibikoresho bitandukanye. Harimo mudasobwa muganga ashobora gukenera ari gushaka amakuru atandukanye, harimo izindi mashini zifashishwa mu gupima no kumenya indwara umurwayi arwa...

Kwa muganga haba inzu yababyeyi, aho baryama mu gihe bagiye kubyara cyangwa kwibaruka, abaganga bakabasangayo bakabafasha, bakazasubira mu rugo igikorwa cyaragenze neza kubera ko umubyeyi utabyariye kwa muganga bishobora kumuviramo ingaruka harimo n'urupfu.

Umurwayi uryamye kwa muganga ku gitanda, umuganga arimo aramuvoma amaraso azifashishwa mu kuvura abandi bantu barwaye indwara runaka cyangwa se badafite amaraso ahagije mu mubiri wabo, iki kandi ni igikorwa cy'ingenzi cyane cyo gutanga amaraso kuko kirokora ubuzima bwa benshi.

Imiti igomba kubikwa ahantu habugenewe, ku buryo itagerwaho n'ubushyuhe bwinshi cyangwa se ubukonje bwinshi, ikaguma ifite ubuziranenge, umuntu akaba yayifashisha mu kwivura no mu gihe kiri imbere itarangiritse ikiri mizima.

Inyubako yo kwa muganga irangwa no kuba ari ahantu hagari cyane, hateyemo ibyatsi n'ibimera gakondo bitandukanye bifasha mu gutanga umwuka mwiza abantu bahumeka, harimo utuyira tugiye dutandukanye uducamo imodoka, uducamo abantu bagendesha amaguru, abafite ubumuga ku buryo byorohera buri wese wisanga kwivuriza muri icyo kigo.

Umubyeyi ukimara kubyara aba agomba kwitabwaho cyane kugira ngo n'umwana we abashe konka amashereka afite intungamubiri, ikindi umwana na we aba agombwa gusuzumwa kandi agahabwa imiti imurinda indwara zitandukanye zishobora kumwibasira.

Ubuvuzi bukomeje gutera imbere cyane mu gihugu cy'u Rwanda dore ko byarenze kwivuriza kwa muganga bikagera no mu mazu y'ubucuruzi ku bantu bigenga, aho umurwayi ashobora kujya kugura umuti ku giti cye, atarindiriye kujya ku kigo nderabuzima, ibi ngibi nabyo biradufasha cyane mu kugabanya umubare w'abaturage bahitanwa n'indwara kuko babasha kubona ubufasha ku buryo bwihuse.

Ibigo nderabuzima n'ibitaro usanga byaritaweho cyane kuko inyubako zabyo ziba zisa neza, zisize amarangi, kandi hateye ubusitani bufasha mu kuzana umwuka mwiza abantu bahumeka. Buri muntu wese ukabona ko yishimira ireme ry'ubuzima kuko ryateye imbere mu Rwanda.

Abasirikare bagira ibitaro byabo bivurizamo bitandukanye n'iby'abaturage basanzwe. Ibitaro cyangwa ubuvuzi bwa gisirikare buzwiho kuba buteye imbere cyane, hamwe usanga n'umuntu urwaye indwara yananiranye bamwohereza kwivuza mu bitaro bya gisirikare kuko batanga ubuvuzi bukomeye cyane kandi baba bafite ibikoresho bihambaye.

Imbere mu nyubako kwa muganga hari icyumba cyabugenewe kinini cyane kandi kigali cyo kuganiriramo uhasanga intebe, ameza, utubati, amatara ahagije n'ibindi bikoresho iki cyumba cyifashishwa mu nama abaganga n'abakozi bo kwa muganga bari kuganira ukuntu barushaho guteza imbere ubufasha batanga ku barwayi babo.

Ibitaro byitiriwe Umwami Faisal byubatse mu Mujyi wa Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda, ni bimwe mu bifasha abaturage, kugira ubuzima bwiza ndetse bikagira uruhare mu kurandura indwara zitandukanye zihitana ubuzima bw'abantu. Hano mu Rwanda harimo: nk'indwara ya malariya, indwara y'igituntu cyangwa se indwara ya virusi itera SIDA.

Umuntu ashobora kwivuriza kwa muganga cyangwa akajya ku bacuruzi bigenga, bakorera mu mavuriro yabo ku giti cyabo aho baba batanga imiti ariko baba bifitiye uburenganzira kubera kuba barahawe ibyangombwa n'ikigo gishinzwe ubuzima kibishinzwe hano mu Rwanda.

Ibigo nderabuzima bikunze kuba biteye amarangi y'umweru, bisakaje n'amabati y'ubururu kugira ngo buri muturage wese abashe kumenya kandi bimworohere kurangisha kwa muganga kubera ko aba yaramaze kumenya ko izo nzu zihariye, zitandukanye cyane n'izindi nyubako z'abaturage.

Hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, ibigo nderabuzima byateye imbere cyane, aho usanga byubatse ahantu ku muhanda kandi hafite isuku. Haba harimo inzira z'abagenzi bagendesha amaguru kandi n'ibinyabiziga nk'imodoka nabyo biba byaragenewe umwanya byanyuramo.

Kwa muganga hubatswe ibyicundo, biteganyirijwe abana bakiri batoya, igihe bazanye n'ababyeyi babo kwivuza, bakajya kubikiniramo barya umunyenga, bityo kugira ngo amasaha atabarambira, kandi bataha bishimye.

Icyumba babagiramo umurwayi kwa muganga, ugisangamo imashini z'ikoranabuhanga zitandukanye, zifashishwa n'abaganga, mu gihe bagiye kubaga umurwayi, harimo nko kumubaga mu nda nk'abadamu bagiye kubyara cyangwa se, iyo umuntu ya yagize imvune bikaba ngombwa yuko bamubaga igice cy'umubiri runaka harimo nk'akaguru cyangwa akaboko.

Mu nyubako imbere kwa muganga, dusangamo ibitanda bisashe neza, tugasangamo amarido n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, abantu bifashisha iyo bagiye kuharwarira kandi n'abaganga bakabikoresha bavura abarwayi, twavuga nk'abadamu batwite, iyo bagiye kubyara, bifashisha bino bitanda kugira ngo igikorwa kigende neza.

Ibitaro ni bimwe mu byatejwe imbere cyane dore ko hirya no hino hagenda hubakwa inyubako nyinshi kandi nziza zitandukanye zifashishwa mu kuvura abarwayi hari inyubako iherutse kuzura mu gihugu cy'u Rwanda ishobora kuba yaratwaye asaga miliyari cumi n'umunani bikaba byitezwe y'uko izafasha kugabanya impfu ziterwa na malariya, indwara z'inzoka zo mu nda, umuvuduko w'amaraso.

Inyubako zo kwa muganga ziba zisanzuye cyane, zubatse ku buso bunini ku buryo n'abana babasha kubona aho bakinira kandi haba hateye n'ibiti bitanga umwuka mwiza wo guhumeka, ikindi haba hari ubusitani bugizwe n'indabo ku buryo no kuhahagarara byonyine ubona ko ari ibintu biteye ishema.

Kwa muganga haba ibyuma by'ikoranabuhanga bitandukanye, byifashishwa n'abaganga mu gupima udukoko dutoya dutera indwara, baba bavanye mu maraso y'umuntu, tukabasha kureba imbaraga dukoresha, kugira ngo babone aho bahera baturwanya kandi bakora inkingo, zo kuturandura burundu.

Inyubako zo kwa muganga n'ibitaro bikuru ni bimwe mu bigenda bitezwa imbere cyane, hari ikigo giherutse kuzura hano mu Rwanda, gishobora kuba cyaratwaye asaga miliyari eshatu, ubona yuko kitezweho ko kizagabanya indwara zirimo n'izihitana abantu harimo nka malariya n'indwara twavuga wenda nk'iziterwa n'inzoka cyangwa se kanseri.

Kwa muganga tuhasanga ibikoresho bitandukanye, hari n'ibyo babikamo amaraso bafasha abarwayi, mbere yo kuyasuzuma, ubundi bakazayifashisha bari kuvura abandi barwayi bafite ikibazo cyo kugira amaraso makeya mu mubiri wabo.

Kwa muganga tuhasanga ibikoresho bitandukanye, ariko tuhasangamo n'amarobine cyangwa imigezi yo gukarabiramo aho umuganga iyo arangije kuvura umurwayi ashobora kugenda agakaraba intoki kugira ngo hatagira imyanda iba yamugiyeho akaza kuyanduza bagenzi be binyuze nko mu gusuhuzanya.

Kwa muganga tuhasanga ibikoresho bitandukanye, harimo ibitanda abarwayi baryamaho, harimo ibikoresho babikamo amakuru cyangwa se ibipimo bafashe abarwayi ndetse n'imashini zifashishwa mu kuvura cyangwa mu kwitegereza, inyama z'imbere zo mu mubiri w'umuntu.

Mu karere ka Nyagatare ni aho mu ntara y'Iburarasirazuba mu Rwanda, ibigo nderabuzima bikomeje kugenda bitera imbere uko bwije n'uko bukeye, kuko ubu abaturage ntago bagikora urugendo rurerure bajya kwivuza kuko ibigo nderabuzima byarabegerejwe.

Inyubako zo kwa muganga ziba zubatse ku buso bunini kandi ku buryo bwisanzuye, uhasanga abakecuru n'abasaza, ingeri z'abatoya n'abakuru, bose baza kuhivuriza, ubwo ngubwo rero biba bisaba yuko babona n'ahantu ho gukinira cyangwa ho kwicara baganira mu gihe bategereje ko muganga abavura bagataha.

Kwa muganga hari ububiko bwabugenewe, bwifashishwa mu kubika imiti itandukanye kugira ngo itagerwaho n'ubukonje cyangwa ubushyuhe bukabije, ubundi ikabasha kumara igihe kirekire ku buryo bashobora no kuyifashisha bavura abarwayi mu myaka iri imbere.

Ihuriro ry'abayobozi bakuru, inzego z'umutekano, abaturage basanzwe, bagamije gutaha inzu nshyashya yuzuye, y'ababyeyi babyariramo yubatse kwa muganga, cyangwa ku kigo nderabuzima.

Kwa muganga tuhasanga ibikoresho birimo nk'ibitanda abarwayi baryamaho mu gihe bagiye kuvurwa cyangwa se bakeneye kuruhuka. Twavuga nk'ababyeyi igihe bamaze kubyara bumva nta ntege bafite, bakabihabwa, bakaruhukiramo.

Ikigonderabuzima cya Matyazo giherereye mu ntara y'amajyepfo, mu karere ka Nyanza, usanga cyakira kandi gifasha abarwayi batandukanye baba bavuye mu bice bitandukanye n'imirenge itandukanye, bakahavurirwa, dore ko ari ikigo kigari kandi batanga ubufasha kuri buri murwayi wese.

Inyubako yo kwa muganga, ni inzu ziba zikeye cyane ku buryo uhasanga amakaro, inkuta zisize amarangi, amadirishya manini arimo ibirahuri by'umweru bibonerana, hafite isuku, ibishushanyo, ku buryo byorohera umurwayi kuhivuriza nyine ahakunze kuko aba abona n'umwuka mwiza.

Bimwe mu bikoresho umuntu ukora imyitozo ngororamubiri yagakwiriye kuba atunze, harimo radiyo imufasha kumva umuziki, harimo kandi impapuro zo gukoresha isuku zo ku bwiherero, harimo umukasi, harimo amavuta yo kwisiga, harimo ikaramu n'ikayi byo gukoresha yandika.

Ukora imyitozo ngororamubiri atakaza imbaraga nyinshi cyane, bityo akwiye kurya ifunguro ryiganjemo voka zirinda indwara, zirimo inyanya, zirimo ibitunguru, zirimo tungurusumu, zirimo pome, urusenda, ibiryo byose biba bikungahaye ku ndyo yuzuye bikamufasha kugarura imbaraga mu mubiri.

Kwambara uturindantoki ni bimwe mu bintu bifasha umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo adakomeretswa cyangwa akazana amabavu mu kiganza igihe ari guterura ibyuma cyangwa ari gukoresha ibikoresho by'ibyuma bishobora kumukata cyangwa kwangiza uruhu rwe.

Gukora imyitozo ngororamubiri bijyana no gukoresha ibikoresho bigezweho, harimo kwambara inkweto nziza zifunze, kwambara imyenda ibasha gukweduka kugira ngo ubashe kurambura ibice by'umubiri bityo ugorore ingingo zose.

Gukora siporo bikunze kwitabirwa n'abiganjemo igitsina gabo kubera ko bakunda kugira imibiri ikomeye kandi bakarambura imitsi, ikindi bibafasha mu mitekerereze, bakumva batekanye, bakabigira umuco wa buri munsi.

Umuntu wakomeretse cyangwa agahura n'imvune, igihe yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri, agomba kujya kwa muganga, bakamuzirikaho igitambaro cyabugenewe kandi bakamushyiriraho umuti bita pomade mu magambo y'amahanga, ubundi akabasha gukira vuba.

Kwigorora ingingo z'umubiri wacu amaboko, umutwe, igikanu, umugongo, amaguru ni bimwe mu bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza kuko bituma imitsi igororoka kandi ingingo zikarambuka.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ubuzima. Umuntu udakora imyitozo ngororamubiri, ngo agorore amagufa, asohora imyanda mu mubiri, usanga agira umubyibuho ukabije, kandi akabaho nabi, kuko yatakwa n'indwara ku buryo bworoshye, harimo nk'umuvuduko w'amaraso, ariko umuntu ukora imyitozo ngororamubiri, usanga agira ubuzima bwiza.

Mu gihe umuntu ahuye n'igikomere cyangwa imvune ari gukora imyitozo ngororamubiri, agomba guhita afata amazi ashyushye n'agatambaro gatose, akikanda amaraso agishyushye kugira ngo umubiri we utabyimba kandi abashe gukira vuba mu buryo bworoshye.

Umuntu ashobora guhura n'igikomere, mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri, ariko nanone hari uburyo bwo kwivura bworoshye, nko gukoresha agatambaro gasa neza n'amazi ashyushye, umuntu akabikoresha yikanda, ahantu yababaye kugira ngo hatabyimba cyane.

Gufata amazi ashyushye n'agatambaro kabugenewe, ukagenda wikanda, ni bumwe mu buryo bwiza bwo kurwanya amavunane mu mubiri, kandi iyo umuntu abikoze, aba ameze nk'uwakoze imyitozo ngororamubiri, kuko bimufasha kumva ahumeka neza, akagira ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abaganga barimo imbere mu nyubako ku kigo nderabuzima bambaye impuzankano zirimo: Udupfukamunwa, amarineti, uturindantoki n'ibisurubeti. Ubona ko bari gukora ubushakashatsi cyangwa bari kuvangura imiti basuzuma, banareba ibizamini bafashe abarwayi kugira ngo babashe kubavura.

Impamvu abantu bakora imyitozo ngororamubiri banywa amazi menshi, ni uko na bo baba bayatakaje mu gihe bari kubira ibyuya, bavuye mu gikorwa cyo kwirukanka ,cyangwa cyo gusimbuka imigozi no guterura ibyuma, bikunze kuranga abantu bakunda gukora imyitozo ngororamubiri.

Croix rouge ni ikigo gishinzwe gufasha abarwayi no kubatabariza no kubaha ubufasha bw'ibanze kugira ngo dusigasire amagara y'abantu. Kigira abantu babyigiye kandi bakabihugurirwa, baba bazi gufasha umuntu no kumuha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo adatakaza ubuzima.

Abasore bakunda gukora imyitozo ngororamubiri kuko bibafasha mu kugira umubyibuho uringaniye kandi bagahorana umubiri ukomeye ku buryo badashobora gukomeretswa byoroshye n'utuntu tworoheje, ikindi bibafasha gutekereza neza no kumva bameze neza mu mubiri wabo.

Gukoresha agatambaro gasa neza n'amazi ashyushye umuntu akagenda yikanda ku mubiri, ni bumwe mu buryo bwo gukora imyitozo ngororamubiri kandi tugasukura umubiri wacu kugira ngo dukureho imyanda iba yagiye yihadarika hagati y'utwobo dutoya tuba ku mubiri, ari natwo ducamo ibyuya iyo turi guhumeka cyangwa twabize icyokerera.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ibintu by'ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu dore ko bimufasha muri ibi bikurikira, harimo: kurambura imitsi, gusohora imyanda mu mubiri we, kugorora ingingo z'umubiri. Ikindi iyo umuntu agize imvune ari gukora imyitozo ngororamubiri, asabwa kujya kwa muganga kugira ngo hahantu hatabora cyangwa se bikamuviramo kanseri.

Kunywa amazi meza kandi atarimo imyanda, bikaba akarusho iyo atetse, ni bimwe mu bifasha abantu kugira ubuzima bwiza, cyane abakunda gukora imyitozo ngororamubiri kuko bibafasha kugarura amazi mu mubiri, iyo batakaje ibyuya byinshi cyane barimo bakora iyo myitozo bityo bagakenera kongera gusubiza ubuhehere mu mubiri wabo, banywa amazi.

Gutakaza amazi menshi avuye mu mubiri binyuze mu kubira ibyuya, bivuze gukenera andi mazi menshi kugira ngo umubiri wongere kugira ubuhehere. Ibi ni nako bigendekera abantu bakora imyitozo ngororamubiri. Baba batakaje amazi menshi, bagakenera kunywa andi mazi menshi kugira ngo umubiri wabo uhore ufite ubuhehere kandi ubashe gukora neza.

Abiganjemo igitsina gore bakunda kwitabira imyitozo ngororamubiri, ibi bakabikora igihe bari mu ngo zabo bambaye imyenda iri buborohereze gukora iki gikorwa kandi bakabikorera ahantu hatuje nta rusaku ruhari, ubundi bakarambura ibice bigize umubiri wabo bakagororoka bakagira ubuzima bwiza.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni igikorwa cy'ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu, kubera ko kimufasha kwirinda umubyibuho ukabije, kikamufasha gusohora imyanda mu mubiri, umuntu ukora imyitozo ngororamubiri abaho neza kandi agasaza afite ubuzima bwiza.

Umuntu ashobora gukora imyitozo ngororamubiri ku giti cye wenyine cyangwa agafatanya na mugenzi we, aho ashobora kumugorora ukuguru n'unda akamugorora, ubundi akabasha kumva aruhutse kandi akagira ubuzima bwiza kubera ko gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umuntu kwirinda umubyibuho ukabije.

Gukora imyitozo ngororamubiri bijyana no kunywa amazi, igihe umuntu ari kubira ibyuya abikura mu mubiri aba ari gutakaza amazi menshi mu mubiri, umuntu aba akeneye kunywa andi kugirango umubiri usigarane ubuhehere kandi umuntu yongere kumva ameze neza.

Hari imiti yababugenewe ifasha umuntu gukora imyitozo ngororamubiri, kumuvura ibikomere harimo nk'imvune. Igihe yahuye n'iki kibazo afata uwo muti akawisiga, akabyiringira ku mubiri akabasha gukira.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri ategekwa kunywa amazi menshi kugira ngo umubiri we ubashe guhora uhehereye kandi mbere yo kuyasuka, agomba kuyashyira mu kirahure kugira ngo nihaba harimo imyanda, abashe kuyibona iri cyangwa amazi meza agire ubuzima bwiza.

Amazi yo kunywa ni ingenzi cyane ku muntu ukora imyitozo ngororamubiri, atakaza amazi menshi cyane bityo aba akwiye kunywa ayandi kugira ngo umubiri we wongere gusubirana ubuhehere, abashe kubaho aseka, amwenyura kandi ahumeka neza.

Gukora imyitozo ngororamubiri bishobora gukorwa mu buryo butandukanye. Harimo nko kwirukanka, ariko na none umuntu ashobora kuyikora yibereye mu rugo. Ugashaka ahantu habugenewe heza, akajya arambura amaboko, akarambura amaguru, akarambura indi mitsi yabugenewe. Ibi cyane cyane bikunda gukorwa n'abiganjemo igitsina gore, kuko badakunda kwirukanka no gukora.

Gukina umukino w'amaboko w'intoki, ni bumwe mu buryo bwo gukora imyitozo ngororamubiri kuko bikorwa binyuze mu buryo bwo kwirukanka, abakinnyi bahanahana umupira bityo bigafasha umuntu kubira ibyuya, agasohora imyanda mu mubiri.

Imvune ni ikintu kibabaza cyane, umuntu ashobora guhura n'ikibazo cyo kuvunika, cyane mu mavi igihe ari gukora imyitozo ngororamubiri, iki kibazo iyo kibaye umuntu yihutira kujya kwa muganga kugira ngo bamukurikirane akire ku buryo bworoshye.

Gukora umwitozo wo kwirukanka ukagenda ibirometero runaka ni bumwe mu buryo bwo gukora imyitozo ngororamubiri ku bantu b'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore. Ibingibi bibafasha mu gusohora imyanda mu mubiri harimo nko kubira ibyuya, ariko na none bagomba gukoresha amazi yo kunywa kugira ngo bagarure ubuhehere mu mubiri.

Abantu bakunze kwitabara cyane, mu gihe bahuye n'imvune yoroheje, bakoresheje uburyo bwo kwikanda. Ibi ni ingenzi cyane, buri muntu wese yagakwiriye kumenya uburyo ashobora kwifashisha bitabaye ngombwa yuko yirirwa ajya kwa muganga, ahubwo akikanda n'amazi ashyushye, dore ko nayo akunda gufasha umuntu wahuye n'imvune.

Abakiri batoya bashobora gukora imyitozo ngororamubiri, binyuze mu gukina imikino itandukanye, harimo nk'umupira w'amaguru cyangwa gukina imikino yo kwirukanka y'abana batoya, bityo bakabasha gusohora imyanda mu mubiri, bakagira ubuzima bwiza.

Imyitozo ngororamubiri, ikorwa hakoreshejwe imikino itandukanye, harimo nk'umukino wo gukina umupira w'amaguru, gukina umupira w'amaboko, ariko nanone hari umukino bita Rugby wo kwirukanka kandi umuntu ukina uyu mukino aba yambaye ikintu kimurinda kugira adakomereka mu mutwe.

Imyitozo ngororamubiri yakorwa mu buryo butandukanye. Hari uburyo bwo kwirambura, kwirukanka, guterura ibyuma, gukina umupira, gukinana n'abandi, cyangwa se kuyikora wiyicariye nko ku ntebe uri wenyine, urambura amaguru n'amaboko.

Mu gihe umuntu akoreye impanuka mu myitozo ngororamubiri ari gukina imikino itandukanye harimo nko gukina umupira w'amaguru, ahita ahabwa ubufasha bw'ibanze n'imodoka ya ambiransi, ishinzwe gutabara ikageza abarwayi kwa muganga kugira ngo barengere ubuzima bwabo bitaratinda.

Gukora imyitozo ngororamubiri ishobora no

Ukora imyitozo ngororamubiri yifashisha ibikoresho bitandukanye, harimo udutambaro ashobora kuzirika ku mubiri mu gihe yahuye n'igikomere, cyangwa yavuye amaraso, harimo kandi umuti w'amenyo n'uburoso akora isuku yo mu kanwa, ndetse n'imibavu yo kwitera, kugira ngo atagira impumuro mbi.

Indimu amacunga na tangawizi ni bimwe mu bimera gakondo byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo nk'inkorora harimo indwara zo mu mihogo n'izindi.

Kugira ngo ibimera gakondo bikorwemo imiti, hifashishwa agasekuru n'umuhini wabugenewe ubundi bakabisekura bakabikoramo ifu, iyo fu bakayipfunyika mu mashashi, cyangwa bakayitoba mu mazi, bikabasha kwifashishwa n'abantu bivura indwara.

Umuti w'amenyo wo gukora isuku mu kanwa ukongeraho n'isabune yo koga ni ibintu bikorwa mu bimera gakondo, harimo nka voka cyangwa ibyatsi bitandukanye ariko bitugirira akamaro mu buzima bwa buri munsi cyane kugira isuku mu buzima bwacu.

Ibimera gakondo bikorwamo imiti itandukanye, kandi bivura abantu indwara zitandukanye, imiti yose dukoresha kwa muganga aho iva ikagera, ikorwa mu byatsi gakondo, bityo tugomba kubisigasira kandi tukabibungabunga aho biteye.

Amababi y'ibiti ni amwe muyafite akamaro gakomeye cyane mu kuvura abantu dore ko yifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye kandi iyo uyakamuye amazi aturuka muri ayo mababi na yo akoreshwa mu kuvura indwara.

Ubuvuzi bucuruza imiti ishingiye ku bimera gakondo ukomeje gutera imbere hirya no hino ku isi, aho usanga ibyatsi karemano byifashishwa mu gukorwamo imiti ivura indwara zitandukanye kandi bikavamo n'ibinini bivura abarwayi, dukoresha kwa muganga.

Ibimera gakondo birimo ibitoki, birimo ubunyobwa, imboga rwatsi ndetse n'ibindi byatsi ni ibyifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye ishobora kuvura indwara zirimo inkorora, zirimo ibiheri, amahumane cyangwa se igituntu.

Imiti gakondo iba ifunitse mu macupa atandukanye, kandi ikorwa mu bimera by'ibyatsi, ariko na none iba yarahawe ubuziranenge n'ikigo kibishinzwe, cyitwa RSB hano mu Rwanda, bityo ikemererwa kujya ku isoko, abantu bakayigura.

Amavuta abana batoya bisiga ku mubiri akorwa mu bimera gakondo kubera ko biba bikungahaye mu kongera ubwiza no gutuma uruhu runoga, abana bisiea amavuta akozwe mu bimera gakondo usanga babengerana bafite uruhu rwiza.

Urunyanya ni ikimera gakondo abantu bakoresha bateka ibiryo kubera ko cyeraho imbuto zikungahaye mu kongera intungamubiri no kuryoshya ibiryo kandi gishobora no kuvamo imiti itandukanye yavura umuntu, twavuga nko kubyimba, igihe umuntu yarumwe n'igisimba runaka gifite ubumara, ashobora gusigaho urunyanya, aho hantu hakamera neza ntihabyimbe.

Ibimera gakondo, byifashishwa mu gukorwamo isabune, twoga buri munsi tukagira isuku, isabune turayifurisha imyenda yacu, tukayogesha umubiri wacu, tukayikoresha isuku yo mu rugo, tukayogesha n'ibikoresho byo mu rugo, tukabaho neza.

Hari ibimera bitandukanye byiganjemo umuravumba, gikakarubamba, bikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo nk'inkorora, harimo igituntu, harimo indwara zibasira mu muhogo, harimo n'indwara z'ibiheri byataka isura y'umuntu.

Amababi y'ikibonobono ni amwe muyakorwamo imiti itandukanye, iki cyatsi ugisanga mu kabande kuko gikunda kumera ahantu haba amazi kandi hari ububobere, bityo gifasha abantu mu kubavura indwara zitandukanye.

Igitunguru, indimu ni ibimera by'ingenzi cyane kubera ko bifasha abantu kubaho neza bikorwamo amavuta atandukanye harimo ayo kwisiga ku mubiri, akaturinda ibiheri cyangwa kubyimba mu maso biturutse ku matembabuzi aba akungahaye muri ibi bimera.

Ibimera gakondo nibyo bikorwamo imiti ya buri munsi dukoresha, yaba iyo tugura kwa muganga cyangwa iyo tugura mu nzu zigenga zizwi nka pharmacy mu ndimi z'amahanga. Yose ikorwa mu bimera gakondo.

Umuravumba ni ikimera gakondo, gikunze kumera ahantu haba ifumbire, kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo nk'inkorora cyangwa indwara zibasira umuntu mu gice cyo mu muhogo.

Ibimera gakondo harimo n'ibyatsi n'amazi, ni bimwe mu bintu bishobora gukoreshwa bivura abaturage indwara zitandukanye, hari amazi abaturage bizera yuko avura nk'amazi y'i Kibeho ndetse n'ibimera biteye i Kibeho.

Ibimera gakondo ni byo bikorwamo ibyo kurya bya buri munsi tubona, harimo nk'imitobe abantu bakunda kunywa, amavuta twisiga, inanasi na yo ni imwe muri ibyo bihingwa, yifashishwa mu gukorwamo ibikungahaye mu kongera intungamubiri.

Abacuruza imiti gakondo, nyuma yo guhabwa uburenganzira n'ikigo kibishinzwe RSB, bafata imiti yabo bakayifunika mu macupa bakoresheje ubundi bakayishyira no mu dukarito kugira ngo umuturage bijye bimworohera gusoma amabwiriza, n'amategeko y'ukuntu uwo muti ukoreshwa.

Ibimera gakondo byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, ikigo cy'Abanyafilipine ku mugabane w'i Burayi muri Aziya, ibi ngibi cyabiteje imbere cyane aho kigenda kigakora ibicuruzwa bitandukanye bikungahaye mu gufasha abantu kugira uruhu rukeye cyangwa se kongera intungamubiri mu mubiri wabo.

Ubuhinzi bwo gutubura imiti yiganje ku bimera gakondo, bugenda bwiyongera mu Rwanda, twavuga nk'igiti cy'umuravumba kigenda gituburwa, aho bafata ingemwe zimwe na zimwe, bakazihombeka kugira ngo zizabashe gushibukaho izindi bityo babitere bajye babikoresha barwanya indwara zitandukanye harimo n'inkorora.

Imiti gakondo itunganywa mu buryo butandukanye, hafatwa ibimera cyangwa se ibyatsi bakabitunganya, bikavanwamo amatembabuzi agashyirwa mu macupa, amanini n'amatoya, ariko ibi nyine bigakorwa n'inganda zibifitiye uburenganzira, ubundi iyo miti ikagurishwa ku isoko Mpuzamahanga, igiye ivura indwara zitandukanye rero harimo inzoka zo mu nda n'izindi.

Umuravumba ni icyatsi cyifashishwa mu gukorwamo imiti no kuvura indwara nyinshi cyane. Kivura inkorora, kivura indwara zo mu muhogo, ariko ikindi amazi yacyo ashobora no kwifashishwa mu kuvura inzoka zo mu nda.

Igikakarubamba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, kandi gikorwamo n'amavuta yo gusiga ku mubiri cyangwa yo gusiga mu mutwe umusatsi, bigafasha umubiri korohera, bityo umuntu akabaho afite ubuzima bwiza.

Imiti gakondo ikomoka ku byatsi n'ibimera abantu barayifata bakayifunika mu macupa yabugenewe, ubundi bakayisuzumisha n'ikigo gitsura ubuziranenge mu Rwanda, bakareba ko yuzuza ibisabwa, igashyirwa ku isoko ry'umurimo, abaturage bakayigura kandi bakayikoresha bivura.

Abacuruza imiti gakondo ikomoka ku byatsi n'ibimera, bakunze kugenda biyongera umunsi ku munsi. Ariko na bo batanga ubufasha ku baturage babagana bashaka kwivura indwara zitandukanye harimo nk'imiti yongera akanyabugabo, harimo imiti ivura inkorora n'iyindi bacuruza.

Ibimera gakondo bikoreshwa mu gukorwamo imiti itandukanye, harimo amavuta dusiga ku ruhu n'amavuta dusiga mu musatsi, hari n'abayakoresha.

Ibimera gakondo byifashishwa mu gukora imiti itandukanye, harimo n'ibikungahaye mu kongera intungamubiri mu mubiri, ugasanga umuntu uyikoresheje agira ubuzima bwiza kandi imibereho ye ikazamuka.

Ibimera gakondo byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, dore ko babifata bakabisekura noneho bakabivanamo ifu, iyo fu bakayifunika mu macupa cyangwa se bakabikamura bikavamo amazi, bakayakoresha bivura indwara zitandukanye harimo nk'inkorora n'inzoka zo mu nda.

Ibimera gakondo iyo bitabonye imvura ihagije cyangwa ngo abantu babashe kubyitaho, usanga bidashishe kandi bikagwingira. Ubwo rero twagakwiye kubyitaho kubera ko biradufasha cyane, bivamo imiti ituvura, bivamo ibinini tugura kwa muganga, ni ingenzi cyane kubyitaho no kubivomera.

Abacuruza ndetse bakanatanga ubufasha mu bijyanye no kuvurisha imiti gakondo bagira inama abarwayi babo n'abandi babagana ko bakoresha iyo miti kandi ko ivura cyane kurusha n'imiti ngo ya kizungu yo kwa muganga. ibingibi ariko ntabwo ari byo ijana ku ijana kuko hari abafata imiti babonye bakabeshya abaturage kibavura kugira ngo barye amafaranga, ni byiza rero kujya kwa muganga

Ibimera gakondo birimo ibyatsi, imiyenzi, ibiti birebire n'ibigufi, iyo bibonye imvura, biragenda bikamera bigatohagira bigakura neza, ariko na none bidufitiye akamaro kuko tubikoramo imiti ikaba ari nayo ituvura.

Imiti gakondo ifunikwa mu macupa atandukanye, yaba iyisukika ndetse n'imiti ifash ikomeye cyane. Igashyirwa ku isoko kugira ngo abarwayi bajye bayigura kandi iba yarahawe uburenganzira n'Ikigo Gishinzwe Ubuzima mu Rwanda n'ikindi Kigo Gishinzwe Gutsura Ubuziranenge RSB gikorera mu Rwanda.

Abakoresha n'abivurisha imiti gakondo bashishikarizwa kugenzura neza mbere yo kugura umuti, bakareba ko wujuje ibisabwa kandi ufite ubuziranenge kugira ngo batazakoresha umuti uzabagiraho ingaruka mu buzima bwabo.

Umuravumba abashakashatsi bagaragaze ko ari ikimera kivura indwara zitandukanye, kandi abantu bakwiriye kuwutera kugira ngo ujye wifashishwa hakorwemo ibinini babijyane kwa mu ganga, ubundi abantu babashe kubona imiti ku kiguzi kiboroheye.

Igikakarubamba kivamo imiti itandukanye, harimo amavuta yo gusiga ku mubiri, harimo imiti ivura indwara zitandukanye cyangwa se imiti yo gusiga ku mubiri, umuntu akivura ibiheri cyangwa akivura inzoka zo mu nda.

Ibimera gakondo bitandukanye bikoreshwa mu kuvura indwara z'ubwoko butandukanye nk'amababi y'ibisheke ay'urubingo ibyatsi bya nyiramuwuka n'ibindi ni bimwe mu byifashishwa mu kuvura inzoka zo mu nda no kuvura indwara nk'umutwe n'izindi ndwara.

Igikakarubamba ni igihingwa gishobora kwifashisha mu gukora ibintu bitandukanye, gishobora kuvamo amavuta cyangwa se isabune twoga ya buri munsi, ntitwabura kuvuga na avoka kuko na yo yifashishwa mu gukora amavuta n'isabune twoga, byagakwiye guhingwa cyane rero hano mu Rwanda kuko bifasha abantu nyine mu kwimakaza isuku.

Igikakarubamba cyifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, yaba amavuta yo gusiga ku mubiri, amavuta avura ibiheri cyangwa imiti yo gukoresha dusukura amenyo, ikindi gifite n'ubushobozi bwo kubasha kuvura inzoka zo mu nda zibasira abantu biturutse ku mwanda cyangwa gukoresha ibiryo bitujuje ubuziranenge.

Iyo umuntu amaze gukora iyi miti ayivanye mu bimera gakondo, igihe yaseye amababi yayo cyangwa yakamuye amatembabuzi, ikiba gisigaye ni ukubifunika mu macupa yabugenewe kandi bakabitereka ahantu hatagira ubukonje, bikabasha kumara igihe kirekire, bikifashishwa bivura abantu indwara zitandukanye.

Igikakaruramba gikorwamo amavuta menshi, yo gusiga ku mubiri, kandi umuntu ukunda kuyakoresha usanga afite uruhu ruhehereye, rukeye, rutagira ibiheri, kandi rubengerana, abantu rero bashishikarizwa kugihinga cyane, no kugitera mu ngo kugira ngo bajye bacyifashisha bivura n'indwara zitandukanye.

Ubuvuzi gakondo bumaze gutera imbere cyane, dore y'uko hari abasigaye babukora ku kigero cyo ku rwego rwo hejuru, ugasanga umuntu afite inzu icuruza imiti, ibarirwa agaciro ka miliyoni nka mirongo itanu z'Amanyarwanda. Leta y'u Rwanda nayo yabihaye uburenganzira, ariko si ku bantu bose, kuko hari n'ababikora babeshya abaturage, barabanza bagapima ubundi bakabaha uburenganzira.

Imiti itandukanye ivura indwara zitandukanye nk'imiti ivura indwara ya SIDA ikorwa mu bimera bitandukanye cyane cyane amababi y'ibyatsi bimera mu kabande cyangwa i musozi, twagakwiye gusigasira ibimera gakondo rero kuko biradufasha cyane mu buzima.

Igiti cy'umuravumba cyifashishwa cyane mu kuvura indwara zitandukanye. Ariko na none ushobora gufata ingeri y'igiti cy'umuravumba ukayishyira mu mazi igashibukaho andi mashami, bityo ukazayakoresha wivura indwara zitandukanye mu gihe kizaza.